Icyumba cyiza gisize amarangi y'umweru, kikaba gicururizwamo imiti y'amatungo, aho yifashishwa igihe yarwaye cyangwa se wayongerera intungamubiri cyangwa se mu bundi buryo ubwo aribwo bwose.

Umukobwa ukiri mutoya arimo aratera umuti ibihingwa bye kugira bitarwara udukoko. Yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi ndetse n'uturindantoki.

Iduka ricuruza imiti yifashishwa mu buhinzi cyane cyane iyo igiye guterwa mu bihingwa kugira ngo hicwe udukoko tuba twakwangiza imyaka y'abaturage, harimo abantu babiri barikoramo.

Abantu bane, abagore babiri n'abagabo babiri, abagore bakaba bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'umweru ndetse umwe akaba yambaye n'ipantaro y'umweru, afite n'ibase mu ntoki. Abagabo bakaba bambaye ingofero z'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ariko bigaragara ko udasa neza kuko uranduye, harimo haragendamo moto ihetse umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira k'icyatsi, bose bakaba bambaye ingofero zibarinda imi.

Abantu barimo abagore n'abagabo bakaba bamwe biteze ibitambaro mu mutwe ndetse umugabo akaba yambaye ingofero, bateruye ikidomoro kirimo imbuto bagiye gutera, bakaba barimo baraseka bishimiye ibyo bahawe.

Igihingwa cy'imyumbati, akaba umuntu akiyifashisha igihe akeneye gushyira ibitera imbaraga mu mafunguro ye, cyane cyane abakunda gukora ubuhinzi, kuko baba bakoresha imbaraga nyinshi.

Amashashi afite ibara rijya gusa ubururu. Akaba yapakiwemo ibiti bikiri bitoya bagira ngo babyikorere babijyane kubitera ahantu runaka bityo nibimara gukura bizatange umusaruro nko kuba byatuzanira umwuka duhumeka.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa byiza cyane, ushobora guhinga bikazaguha amafaranga nubwo bidahita biyazana kandi bikaba bidatanga umusaruro mwinshi ushimishije cyane kubera ko rimwe na rimwe ushobora kubihinga, ugasanga ntabwo byeze uko wabiteganyaga.

Ibiti bikiri bitoya byashyizwe mu mashashi ajya gusa ubururu bwerurutse, aho bigiye gutwarwa bikaba byajyanwa guterwa hirya no hino mu mirima itandukanye, kuko nk'uko tubizi bishobora kuba byavangwa n'imyaka.

Umugore urimo uramwenyura, yambaye umupira w'umutuku ariko urimo uturongo ku maboko, afashe ingemye mu ntoki ziri mu dushashi agiye guhinga, afite kandi isuka mu ntoki.

Ikiganza cy'umuntu w'umugore, aho gifashe imbuto mu ntoki, kugira ngo bajye kuwinaza, bityo numera bazagurishe ibiti byawo bizavamo.

Ikiganza cy'umuntu w'umugore gifashe agacupa kakaba karimo umuti wifashishwa mu kwica udukoko dufata amatungo, ni byiza kuwukoresha kugira ngo uyarinde indwara.

Umugore wambaye ingutiya, akaba yambaye n'agapira kajya gusa umuhondo werurutse yiteze n'igitambaro mu mutwe, arunamye arimo aratunganya intabire azateramo ibihingwa bye.

Umugore wunamye urimo arategura ahantu ho gutera imbuto, wambaye imyenda yiganjemo umukara n'ingofero mu mutwe, akaba afite isuka ndetse afite n'imisatsi miremire.

Abantu biganjemo abadamu bakaba bafite amasuka barimo baraharura umuhanda. Biragaragara ko bahuriye hamwe mu gikorwa cy'umuganda rusange, akenshi mu Rwanda gikunze kuba ku wa nyuma w'ukwezi.

Umusore bigaragara ko akiri mutoya akaba yambaye agapira gasa icyatsi n'ipantaro y'umukara, afite isuka arimo aratoba ibyondo, yafashe ku mababi y'imyumbati hirya ye hari insina.

Igihingwa cy'umuceri ni kimwe mu bihingwa bimaze gutera imbere mu Rwanda, aho usanga bihingwa ahantu henshi mu bishanga. Haragaragaramo umuntu w'umugabo wambaye ishati itukura uhagaze.

Ubunyobwa ni kimwe mu biribwa ushobora kurya mu buryo bwinshi butandukanye, yaba ububa busyeye, cyangwa se umaze kubukaranga ukaba wabuhekenya, bukaba ari bumwe mu gutera umubiri kuba umeze neza.

Guhinga umuceri ni byiza kuko bituma ugira amafaranga ndetse bigatuma ubona n'ibyo kurya bihagije ku buryo mu rugo iwawe nta kibazo uba ufite, ni byiza ko nawe wabikora kugira ngo witeze imbere.

Ubuhunikiro bw'ibigori bukoreshwa iyo byeze cyane bikaba byabikwa maze bakazabyitaho nyuma ari ho bashobora no kuba babijyana ku isoko, byubakishije amabati atukura.

Ibiti biterwa ku muhanda bigaragara ko bitarakura cyane ngo bibe binini ariko bitangiye kugira amashami matoya, hari urutsinga rw'umukara rure hejuru mu kirere rutwara umuriro w'amashanyarazi ruwujyana hirya no hino mu baturage.

Hari ibiti umuntu ashobora guhinga, akaba yabivanga n'imyaka ntibigire icyo bitwara kuko imyaka ikomeza kwera uko byari bisanzwe. Haragaragara kandi inzu yubakishije amategura nubwo itarebeka neza.

Ibigori iyo byeze usanga hari abahitamo kubisarura bakaba bihunika mu bu guhunikiro, bamwe bakabisarura bakabijyana iwabo bakabihungura bakazabigurisha.

Ishyamba rikaba ririmo igiti kimwe kinini cyane kibyibushye umuntu ashobora kuba yabaza agakuramo imbaho ndetse hirya hakaba hari ibindi biti bitoya bizakura bikaba binini, hasi hari ibyatsi bigufiya.

Ibyatsi byinshi byiganjemo ibigufiya, hari bimwe bisa nk'ibigiye kuba birebire ariko na byo bitari birebire cyane, ni byiza kubibungabunga kuko bizana umwuka duhumeka bityo tukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibiti bikiri mu dushashi aho bari barabyinaje kugira ngo bazabikure bajye kutera ahantu hatandukanye hirya no hino mu murima, bibe byafasha mu kurinda isuri cyangwa se mu gutanga undi musaruro.

Ibidukikije ni bimwe mu byifashishwa mu kuba umuntu yakoramo imiti yifashishwa mu buvuzi, cyane cyane bumwe twita ubwa gakondo kuko usanga na bwo bukora kandi bugakora neza nk'uko imiti ya kizungu yakora.

Ibyatsi bitari birebire cyane, bitari na bigufi cyane, hasi yabyo hari ibindi bigufiya cyane ndetse hari na bimwe bigaragara ko abantu bashobora kuba babyangirije bakabitema.

Indabo ni kimwe mu bintu bituma ahantu hamera neza cyane cyane iyo zitaweho uko bishoboka kose, ukaba wazigirira isuka igihe bikenewe ko uzitema uzigabanya ukaba wabikora.

Ahantu henshi cyane cyane ku bipangu cyangwa se amazu y'abakire, bakunze guteraho ubusitani bwiganjemo indabyo, cyangwa se ibindi byatwa bitoya nka pasuparumu.

Indabo ni nziza cyane kuko zituma ahantu hamera neza, hari icyapa kigaragaza ko ari ku nyubako y'ubucuruzi y'Abangilikani mu Rwanda ishami rya Huye.

Mu isoko rya Huye ushobora gusangamo imbuto n'ibicuruzwa bitandukanye nk'imbuto, aho twavugamo nk'imyembe, amacunga, amaronje, ibinyomoro, inanasi ndetse n'ibindi.

Avoka ni kimwe mu biribwa bikungahaye ku banyamavuta cyane cyane iyo uyiriye yaramaze gushya cyangwa se zikaba zakwifashishwa igihe hagiye gukorwa ibintu bitandukanye nk'amasabune cyangwa se amavuta.

Abantu babiri ubona ko bakiri batoya, aho barimo barakorera ingemwe kugira ngo bazazigurishe bakuremo amafaranga, hejuru yabo hari ibyatsi ubona ko byamaze kuma.

Hari abavuga ko n'ubwo intoryi ari imboga nziza ariko zikunda gusharira, zikaba zatuma umuntu ananuka, iyo cyane cyane uwazitetse zitahiye neza cyangwa se yazitetse zitarera neza.

Ibase yuzuyemo imbuto, harimo ibibiringanya ndetse na sereri, hirya hakaba hari andi mabasi abiri bagerekeranije ndetse n'imifuka irimo izindi mboga.

Ikiganza gifashe urubuto mu ntoki, hari kandi ubundi bwoko butandukanye nk'ibitunguru by'ibirayi ndetse n'ibindi by'amababi, hari kokombure n'imiteja myinshi.

Ibidukikije ni byiza cyane kuko bituma tubona umwuka mwiza duhumeka bikaba byarinda n'amasuri. Ni byiza ku bihinga cyane ko bishobora no gutuma tubona ibyo kurya nk'izi ntoryi ziteye hano.

Niba ukora ubuhinzi, ni byiza ko wakora ubw'imbuto cyangwa se ugakora ubw'imboga kuko na bwo butanga amafaranga kandi imboga zikaba zera vuba cyane, zikazana amafaranga ukaba utakwicwa n'inzara.

Ni byiza kubaka akarima k'igikoni kuko bifasha mu kuba umuntu yabona imboga atabanje kuzigura, bigatuma umuntu yabika amafaranga yagombaga gukoreshwa ajya kuzigura.

Ubusitani bwiza cyane bwiganjemo ibyatsi bigufiya bya pasiparumu ndetse n'umucaca, hari kandi indabo zirimo izifite amabara y'umuhondo n'ibiti birebire bigaragara ko byamaze gukura.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bumaze gutera imbere mu Rwanda, aho ushobora guhinga imbuto zitandukanye nk'inyanya, amacunga nk'izi ntoryi turi kubona hano urabona ko zimeze neza kandi zisasiye zikazatanga umusaruro mwiza.

Amaronji ni meza cyane kuko akorwamo ibintu byinshi bitandukanye kandi akaribwa mu buryo butandukanye kuko ushobora kuba wayakoramo umutobe cyangwa se ukaba wayarya mu buryo busanzwe.

Abantu batatu barimo umwana mutoya ufashe ibintu by'imbuto mu ntoki bigaragara ko ari intoryi. Inyuma ye hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umumama wambaye ibitenge birimo amabara y'icyatsi, akaba yiteze n'igitenge mu mutwe.

Ibinyomoro ni zimwe mu mbuto ushobora gutegura ku mafunguro yawe, cyane cyane iyo wabiretse bikera neza bigahisha. Ni byiza kubifata kuko byongera amaraso mu mubiri w'umuntu.

Gukora ubuhinzi n'ubworozi si ngombwa guhinga igihingwa kimwe, ushobora guhinga n'imbuto cyangwa se izindi mboga nka karoti, puwavuro, ibibiringanya n'ibindi kuko na byo abaturage baba babikeneye.

Imyembe ni zimwe mu mbuto abana bakunda kurya, cyane cyane ko iyo zeze neza ziba ziryohereye bityo bigatuma bashaka kumva ubwo buryohe bukazirya cyane.

Ni byiza ko niba ushatse guhinga ahantu ubanza wa hategura neza kugira ngo n'ibihingwa ugiye guhingamo bizere neza kandi bitange umusaruro, bitaba nka bino bigaragara hano aho bigaragara ko bidasa neza.

Karoti ni zimwe mu mboga ushobora kurya mu ifunguro ryawe zikaba zakurinda ibintu byinshi nko gutuma amaso yawe areba neza cyangwa se mu kuba zatuma indwara zitagufata mu buryo bworoshye.

Umugabo bigaragara ko akiri mutoya, wambaye ingofero mu mutwe akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, amaze gupfundukura ibyo yari yarahinze bisa nkaho ari imbuto yari yarinaje ahantu akaba agira ngo azazikuremo amafaranga.

Umugabo wunamye ufite ikintu arimo arakuramo amazi ayasuka ku bihingwa, yambaye umupira utukura n'ingofero y'umweru mu mutwe ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umudamu wikenyeye igitenge mu nda ndetse akaba yiteze n'ikindi gitenge mu mutwe, afite indobo irimo iravamo amazi, aho ari kugenda asuka ku mboga yahinze kugira ngo zibone amazi.

Mu Rwanda usanga hari uburyo bugezweho bwo kuhira imyaka, cyane cyane nk'igihe cy'impeshyi imvura yarabuze, maze bigatuma ibihingwa bikomeza kubaho nk'ibibona imvura bisanzwe.

Abagabo babiri bakaba barimo kuhira imyaka bateye bigaragara ko ikiri mito, barimo barakoresha uburyo bwa gakondo bwo gukurura amazi bisanzwe nta mashini bafite.

Igishanga gihinzemo umuceri ku buso bunini aho bagiye bacamo ibice kugira ngo babone uko bahinga, hirya kure hakaba hari umusozi uriho ishyamba ryinshi ndetse kuri buri ruhande hakaba hari ibiti.

Ni byiza gutera ibiti bizengurutse ingo, kugira ngo bizane umuyaga ahantu dutuye ndetse binatere kugira umwuka mwiza wo guhumeka.

Ahantu hanini hahinze igihingwa cy'umuceri, ni byiza kugira ngo tubone uko twakwihaza mu biribwa ndetse tukaba twanasagurira n'amasoko igihe tubona ko ari ngombwa.

Mu gishanga gihingwamo umuceri, usanga bagihinga neza kugira ngo bakomeze kukibungabunga bityo umuceri wabo uzere neza kandi utange umusaruro nk'uko bigaragara.

Korora neza ndetse no kuba ahantu heza kw'ingurube ni bimwe mu bintu bituma zikura neza ndetse zigatanga umusaruro vuba cyane, iyo wayigaburiye neza ntacyatuma ida...

Ingurube iyo uyitayeho usanga itanga umusaruro wihuse kandi mwinshi, cyane cyane ko ifite ubushobozi bwo kubyara ibyana birenze kimwe, niyo mpamvu ari byiza kuzorora.

Kugaburira ingurube ibiryo byiza kandi bigezweho bikubiyemo intungamubiri, ni byiza kuko bifasha mu mikurire yazo bityo zikaba zahita zitanga umusaruro mu gihe gitoya bidasabye ko utegereza imyaka myinshi.

Ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda bumaze gutera imbere cyane, aho usanga abantu basigaye babukora ku buryo bugezweho, aba twavuga nk'ubworozi bw'inkoko, bufite amafaranga cyane muri iyi minsi.

Umugore urimo aramwenyura, udafite umusatsi mwinshi, wifubise igitambaro cy'umutuku ari imbere y'ihene ebyiri, iy'umukara ndetse n'ihene y'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abakuze ndetse ubona harimo n'abakiri batoya, baje bahurira ahantu aho bigaragara ko bari bagiye gufashwa, bahabwa amatungo magufi yo korora y'ingurube.

Ihene nziza cyane ubona baziritse ku kiziriko kitari kirekire cyane, hirya yayo hari urupangu rwubakishije imisenyi ariko ubona rushaje, irimo irarisha hasi ibyatsi.

Umutavu uri mu ruhongore, ukaba ufite amabara y'umweru yiganje mu nda no ku maguru ndetse mu mutwe hakaba harimo amabara ajya gusa umukara, aho mu gahanga naho hari umweru.

Ubworozi bw'inka umuntu ashobora kubukora afite intego zitandukanye, hari ushobora kubukora agamije kujya atanga umusaruro w'amata cyangwa se undi akaba yabukora agamije kujya yorora inka zo kubagamo inyama.

Inka nyinshi zirimo iz'ibihogo, umusengo, ndetse n'ibibamba, ziri ahantu bazikusanyirije, hepfo yazo hakaba hari amazu yubatse asakaje amabati ajya gusa umweru.

Inka nziza cyane ikaba iri ahantu irira. Ifite uduhembe dutoya ndetse n'amaherena ku matwi. Mu gahanga ifitemo ibara ry'umweru ndetse n'amaguru yayo akaba ari umweru. Imbere yayo hubatse inzu y'ibiti.

Abantu bicaye harimo n'abahagaze, biragaragara ko bamwe bakuza cyane barimo barareba inka yavuye mu kiraro cyayo aho wagira ngo hari ibintu barimo barayiha, inyuma ku kiraro hejuru hariho kasike itukura.

Hambere wasangaga ubworozi budakorwa ku buryo bugezweho, aho abantu benshi bakundaga kuragira ku musozi, ariko ubu ngubu basigaye borora bakoresheje kubaka ibiraro ndetse bakaba banabona ifumbire.

Korora inka ni bimwe mu bintu bishobora kuzana amafaranga, bikaba byagufasha kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi, kuko igihe cyose wabikoze neza bizana inyungu ku buryo bwihuse kandi burambye.

Iyo worora inkoko ni byiza ko ujya kuzisura igihe cyose, haba mugitondo, saa sita na nimugoroba, ndetse ukaba wanahamagaza umuganga ubishinzwe akaba yaza kuzigusuzumira kugira ngo umenye niba ntazarwaye.

Itungo ry'ingurube, ni rimwe mu matungo akunda kuba ahantu heza ariko iyo banyirayo batayitayeho, usanga agira umwanda cyane, bigatuma abantu bamwe batayakunda kandi agira umusaruro

Ni byiza ko mu rugo iwawe hatakagombye kubura imboga kuko zituma ugira ubuzima bwiza, ndetse zikaba zigufasha no kwirinda indwara zitandukanye, zikaguha na vitamine mu mubiri.

Umugabo wambaye igisarureti kijya gusa ubururu, hari kandi undi uhagaze mu kiraro inka ziriramo, aho asa nk'uwari uri kwita ku matungo, ikiraro kikaba gisakaje amabati ariko cyubakishije ibiti.

Igikona ni kimwe mu nyamaswa z'inyoni ziri mu bwoko bw'ibiguruka, kikaba kigira amabara afite umukara cyangwa se umweru ndetse kikaba gishobora no gutwara inkoko igihe zikiri ntoya.

Mu Rwanda haba amashyamba acumbikira inyamaswa zitandukanye, cyane cyane nk'ibiguruka, ibikururanda cyangwa se inyamaswa z'inkazi, mu biguruka hakunze kuba harimo nk'inyoni zitumbagira zikajya hejuru mu kirere.

Mu biguruka haba harimo ubwoko butandukanye, aho usanga harimo nk'ibisiga, ibikona, inyoni, ndetse n'ibindi biguruka, aho biba bitandukanye.

Ikiraro cyiza cyubatse mu buryo bwiza kikaba cyubakiye hejuru, aho impande zacyo hari ibiti birebire ndetse bigaragara ko giturutse hirya mu ishyamba rinini ryiganjemo ibiti bibisi.

Umugabo uhetse igikapu kirimo amabara atukura, aho arimo arambuka ku kiraro cyubakishije ibyuma ndetse kizirikishije imigozi ariko cyubatswe mu buryo bugezweho.

Mu ishyamba usanga hari inyamaswa zitandukanye z'ubwoko bwose kandi ni byiza ko turibungabunga kuko usanga rigira akamaro kanini nko kuba ryatuma tubona amakara yo gucana cyangwa se rikaba ryaba icumbi ry'inyamaswa zitandukanye.

Abantu barimo baragenda ku kiraro cyubakishije ibyuma abantu bakunze kwita senyenge, imbere hari umugabo ufite camera, bigaragara ko yarimo abofotora kugira ngo bagire amafoto y'urwibutso.

Amashyamba aba acumbikiye inyoni nyinshi cyane, harimo nk'inyoni inuma n'izindi ziguruka zikajya hejuru cyane mu kirere, hasi haba higanjemo ibisimba cyane cyane iby'inkazi ndetse n'ibindi bibisi.